Umuhinzi uri gutera umuti mu myaka, mu bihingwa kugira ngo ubashe kwica udukoko dutera indwara muri iyo myaka kugira ngo ibashe kwera neza kugira ngo umusaruro wiyongere.

Ubwoko bw'imiti ipfunyitse mu mashashi batera ibihingwa. Ukaba ushushanyijeho amababi. Uwo muti ugatuma ibihingwa bitabasha kwicwa n'imvura, cyangwa n'utundi dukoko dutandukanye. Bikazamuka neza bikabona kwera, bigatanga umusaruro uhagije.

Ubwoko bw'umuti utandukanye uba mu macupa, abagoronome bifashisha iyo bahungira cyangwa bakingira imyaka, kugira ngo itabasha kwangirizwa n'udukoko tumunga imyaka, bigatuma umusaruro w'umuntu usubira inyuma.

Umuti witwa ire wifumbire bafumbiza ibihingwa, bimera ibyaribyo byose ari ibigori, ibirayi, noneho bigakura, bigatoha mu murima bigatanga umusaruro, uko byera biri mu murima, wa musaruro ukawujyana ku isoko ry'umurimo hakavamo amafaranga.

Umuhinzi wahinze. Umugoronome, akaba ari gutera umuti mu myaka ye kugira ngo ayirinde guhura n'indwara ziterwa n'udukoko dutandukanye, kugira ngo babashe gukuramo umusaruro ushimishije.

Abahinzi bari mu murima. Bateye ibya mbere, harimo abagoronome bavanze n'abasirikari, ndetse n'abapolisi, bari mu gikorwa cyo gufumbira bifashishije utudobo, utubase, bashyizemo ifumbire, bari gushyira kuri buri gihingwa, kugira ngo kibashe kuzerera neza.

Abagoronome babiri bahetse ibyuma mu mugongo. Bakaba bari gutera umuti mu myaka, kugira ngo babashe kuyikingira udukoko dushobora kuyangiriza, ntibashe gutanga umusaruro umuhinzi aba yifuza.

Umuhinzi uhetse icyuma akaba ari gutera imyaka umuti uri mu cyuma, wo kwica udukoko tubogamira imyaka, tugatuma umusaruro udasarurwa neza, ngo iyo myaka yere ibe ku isoko ry'umurimo ifashe umuhinzi.

Umuti uri mu ducupa batera imyaka, kugira ngo iyo myaka ibashe kwera neza, ukica udusimba dushobora kumunga ya myaka ikaba itatanga umusaruro, uyu muti ukunda gucuruzwa n'abagoronome babifitiye uburenganzira.

Umugoronome agiye gutambagira imyaka, akaba afite igikoresho cyabugenewe, akaba ari gupima uko imyaka imera cyangwa indwara yaba irimo, kugira ngo abashe gutanga inama z'umuti wavura iyo ndwara.

Ubwoko bw'ifumbire batera mu myaka, iyo bayishyizemo baba bashaka kuzamura umusaruro kugira ngo imyaka bahinze yere neza. Iyo fumbire ikaba ari enipeka igatuma umuhinzi umusaruro we wiyongera iyo ayikoresheje neza.

Umugoronome cyangwa ushinzwe ubuhinzi wabyigiye, akaba agiye gutambagira ahantu hateye imyaka itandukanye, akaba yambaye imyenda ijyanye n'akazi akaba ari kwitegereza uko iyo myaka imeze, n'icyo yayikorera kugira ngo haboneke umusaruro mwiza.

Ubwoko bw'udusimba twororerwa mu mazi tugiye kuba nk'amafi twita injanga, cyangwa andi mazina tukaba turobwa mu mazi. Twifashishwa mu kuduteka tukaba nko gusimbura inyama, turagurishwa mu masoko atandukanye bagakuramo amafaranga.

Amazi cyangwa ikiyaga kirimo amazi, cyangwa ikidendezi gikikijwe n'ibyatsi bikunda kumera mu mazi. Muri ayo mazi hakaba harimo, ubwato bwicayeho umuntu w'umusare bwambutsa abantu, ndetse bukambutsa n'ibintu, bitewe n'iyo uwo musare ashaka kwerekeza abantu, bitewe n'aho bamusabye.

Abasare bari mu mazi hakaba harimo n'ubwato muri ayo mazi, bakaba bari koga muri ayo mazi. Hari n'ibyo bari gushyira muri bwa bwato kugira ngo babashe kubitwara muri ubwo bwato buri mu mazi.

Ubwoko bw'amafi yororerwa mu biyaga no mu nyanja, cyangwa mu byuzi, akaba ari ifunguro abantu bifashisha mu byo kurya bibatunga, ndetse bakanagurisha hakavamo amafaranga.

Ubwoko bw'amafi baroba mu nyanja, cyangwa mu byuzi baba barayororeyemo, hifashishwa mu gutanga inyama ziribwa, ndetse akagurishwa, akanatanga amafaranga abantu bakayakoresha ibindi bikorwa bitandukanye.

Amazi aba ateraniye ahantu hamwe ari menshi yarakoze ikidendezi, akaba yitwa ikivu cyangwa inyanja, akaba akikijwe n'udusozi dutuweho n'abantu, ndetse hakaba hariho n'ibiti. Ayo mazi akaba yifashishwa mu kuyanyuramo bambuka, cyangwa se mu korora.

Ubwoko bw'inyama ziva mu mafi yororerwa mu mazi, mu byuzi, hanyuma ayo mafi akaribwa akanagurishwa, agatanga umusaruro w'amafaranga.

Ikidendezi cy'amazi, amazi ashobora kororerwamo amafi ndetse n'utundi tunyamaswa dukurira mu mazi, ayo mazi hakaba hari ku ruhande nk'ikirunduru gikozwe mu mbaho kandi kinasakaye, utubati bashobora kuba bororamo ibintu runaka hakaba hakikijwe n'ibiti.

Amafi meza manini arobwa mu biyaga ni mwo bayaroba bakayagurisha, abashaka amafaranga bakayororera mu mazi mu byuzi, kugira ngo azabahe amafaranga bayikemuzemo mu bukene bafite, ndetse ayo mafi avamo n'inyama turya ku ifunguro ryacu rya buri gihe.

Amazi cyangwa se ibyuzi ibiyaga arimo ubwato butwara abantu bubambutsa ayo mazi bava hakurya bajya hakuno, bugatwara aba bantu ndetse n'ibintu. Ubwo bwato bukora ubucuruzi kuko babuha amafaranga, kugira ngo bubashe kwambutsa iby'abantu bi....

Amafi yororerwa mu byuzi, ahantu haba amazi cyangwa akarobwa mu biyaga. Ayo mafi tukayarya hakavamo inyama zikenerwa cyangwa zikundwa n'abantu, ndetse akagurishwa tukabonamo n'amafaranga, na yo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubwoko bw'amafi aba mu mazi yororerwa mu byuzi cyangwa akaba mu biyaga. Ayo mafi abantu barayaroba, bakayifashisha mu kuyagurisha ngo abahe amafaranga, ndetse bakanayifashisha mu kuyarya mo inyama.

Ifunguro riva ku burobyi bw'amafi cyangwa utundi tunyamaswa tuba mu mazi turibwa, bakaba barishyize ku isiniya ariyo bita isahani, barambitse ku gakeka kaboshywe nko mu birere, iruhande rwayo hakaba hari agakombe karimo icyo kunywa.

Ubwoko bw'inyama ziva ku dusimba twororerwa mu mazi nk'amafi，ndetse tugakenerwa ku nyama ariryo funguro abantu bashobora kwifashisha， ndetse hakaba hari n'inyanya n'izindi mbuto，abantu bifashisha ku ifunguro rya buri munsi.

Amafi yororwa mu byuzi cyangwa se mu biyaga, akifashishwa mu kuyaroba bakayagurisha akavamo amafaranga, akavamo n'inyama, ateza imbere abantu bakoze ubwo bworozi bw'amafi.

Ikiyaga kirimo amazi menshi adendeje akaba akikijwe n'ibiti. Hakaba hazamo abarobyi baza kurobamo utunyamaswa tuba dukurira mu mazi . Hari umuntu uhagaze ku nkengero ari kwitegereza icyo kidendezi gikikijwe n'ibiti.

Amafi ari ku isahani, yororerwa mu byuzi cyangwa mu biyaga. Abantu barayaroba bakayifashisha mu gutanga inyama ku ifunguro barya, ndetse bakayagurisha bakabona amafaranga. Amafaranga akabakenura mu kugura ibyo bakeneye.

Ubwoko bw'amafi ari ku ipalato cyangwa isahane bayita isiniya burobwa mu mazi, bakabutegura mu mahoteli cyangwa mu mago abantu bakabwifashisha ku ifunguro bagiye kurya. Babugura amafaranga uwo mucuruzi akabona amafaranga, n'ugiye kurya nawe akabona inyama.

Umurima urimo insina bategesha injegwe. Injegwe zishobora kuva ku nsasa, kubera ko harimo insasa. Utega igitoke iyo insina yannye. Bya bitoke byifashishwa mu gukuramo inzoga. Barakama imineke ikavamo umutobe, wa mutobe, wa mutobe ukavamo inzoga, bakaba bawugurisha bagakuramo amafaranga.

Umurima uri hafi y'inzu umurima udahinzwe wasaruyemo imyaka hakaba hari inzu yubakishijwe ibiti bikomanije. Ikaba ihomye n'urwondo hirya hakaba hari indi nzu yubakishijwe ibikarakara ikaba isakaye, hagati y'iyo nzu y'ibikarakara n'iyindi hari insina.

Umurima urimo ibigori bya eburide. Bihetse bibiribibiri. Bikaba bihinzwe mu buryo bwa kijyambere bugezweho. Bigaragara ko nyir'umurima yawitayeho.

Mu murima uraraye urimo ubwatsi, ukaba uziritswemo intama ikaba iri kurisha, intama na yo igakenerwa mu rugo mu gutanga ifumbire ndetse no kugurishwa ikavamo amafaranga, muri uwo murima impande ya ho hari inzu, inzu ikikijwe n'insina zitanga ibitoki.

Ubwoko bw'ibimera bitanga imbuto, ariyo matunda abantu barya bakarenza ku ifunguro bamaze kurya, ayo matunda ashobora kugurishwa , hakavamo amafaranga umuhinzi aba yifuza, bityo akiteza imbere.

Ubwoko bw'imboga bahinga zitwa betirave, izo mboga zikera ibijumba bitukuye, bakajya babiteka bikagaburira abantu, bikongerera amaraso abantu, binaragurishwa mu masoko, zigatanga amafaranga.

Umurima uhinzwemo imitabo. Bigaragara ko basaruyemo imyaka bakaba barongeye guhingamo iyindi, ariko ikaba itari yamera. Ukaba ukikijwe n'ahantu hatari hahingwa, ndetse ku mbibi hakaba hagiye haraba ibiti.

Umurima urimo ibyatsi biwuzengurutse. Bifite amababi ameze nk'ibitara wagira ngo ni amateke. Ayo mababi y'ibyo byatsi bimwe bikaba ari indabo, hakaba hari ubutaka bahingamo imyaka itandukanye bifashisha.

Umurimo uhinzwemo imyaka amajeri ndetse n'indi myaka, bakaba batarayisarura ikiri mu murima, hirya yaho hakaba hari umurima urimo ibiti bizana umwuka ndetse n'insina.

Umurima urimo imyaka cyane cyane amateke, ahingwa hakaba ifunguro ritunga abantu nk'ibyo bita ingereko, ishobora gusimbura ibirayi, igitoki ndetse n'ibindi. Ayo mateke aragurishwa agatanga amafaranga abantu bakenera.

Umurima uhinzwemo ibigori bitereye, bikaba binahetse, babirya ari bibisi cyangwa bagategereza bikuma, bakabiteka, bakabigurisha bikaduha amafaranga. Hakaba harimo n'insina ifite amashangara n'ibirere, izo nsina nazo zikaba zitanga umusaruro w'ibitoki, ndetse zikagurishwamo amafaranga.

Umurima bahinzemo imitabo biteguye guteramo imyaka， kugira ngo imere， ibafashe mu buzima bwabo. Uwo murima ukaba ukikijwe n'ahandi hadahinze，hateyemo ibiti.

Umurima urimo， uhinzwemo ibihingwa bitandukanye， umuhinzi akenera，kugira ngo abashe kubyaza umusaruro ibyo bihingwa， birimo kubigurisha agakuramo amafaranga， ndetse akagura n'ibindi ashobora kwifashisha， mu mibereho ye ya buri munsi.

Umuma uhinzwemo igihingwa bita karoti ukaba uhinzwe ku mitabo, izo karoti zikoreshwa mu kuziteka mu biryo ndetse zikagurishwa bigatanga amafaranga k'umuhinzi wazihinze zikamuzamura ndetse akiteza imbere.

Umurima uteyemo urubingo, ari bwo bwatsi amatungo yifashisha iyo arisha umushumba yahira akajyanira inka, cyangwa andi matungo yose yifashisha kurya hifashishijwe ubu bwoko.

Inzu ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyatsi, ikaba ikomanyije n'imbigo, ikaba idahomye mu buryo bugezweho ,bikaba bisakaje amabati ,ikikijwe n'umurima utari wahingwamo imyaka ,ariko basaruyemo imyaka.

Umurima uteyemo urubingo, barwifashisha barugaburira amatungo cyane cyane inka cyangwa andi matungo ayo ariyo yose. Rukaba rwiza ku nka iri gukamwa.

Insina ziri mu murima zikaba zarannye zifite ibitoki. Zikaba zitegeshejwe inzego z'imigano zihambiriye cyangwa iz'ibiti zihambiriye, kugira ngo umuyaga utaza guhuha, ibyo bitoki bikavunika bigapfira umuntu ubusa, atabibyaje umusaruro.

Umurima uhinzwemo ibirayi bifashisha mu ifunguro rya buri munsi ndetse tukabyifashisha tubigurisha bakaduha amafaranga. Ukaba wandikanije n'undi murima bahingamo imitabo ariko udahinzwemo basaruyemo imyaka.

Umurima uhinzwemo imitabo bahingamo imyaka itandukanye, umuhinzi yifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi. Akaba uwo murima uhinzwemo n'urutoke rufite amakoma, ndetse urwo rutoke rukavamo ibitoke bagurisha, cyangwa bagateka cyangwa se bagatara, hakavamo imineke barya.

Umurima uhinzwemo imitabo. Hakaba hari aho bahinze uruhande, bakaba batari bawuhinga wose. Umurima bakaba bawuteramo imyaka, ukaba ukikijwe n'ibiti by'inturusu biwukikije, bishobora inturusu gutanga inkwi bagacaniza.

Umurima uhingwamo imyaka hakaba harimo ibiti byera imbuto twakwita amatunda, ndetse umurima ukaba urimo n'insina zera ibitoke bifashisha barya cyangwa se bengamo inzoga zikanyobwa. Bakagurishamo za nzoga ndetse zikabaha amafaranga.

Umurima mugari uhinzwemo imyaka bita ingano bakaba barazisaruye, ingano zikaba zikoreshwa mu kuzikuramo ifu bakoramo imigati bita ibigati by'ingano cyangwa bakoramo amafu bashigishamo ibikoma ndetse hakavamo n'ubundi bwoko.

Umurima urimo urutoki, hakaba hateyemo n'imyumbati barya mu masombe, hakaba hahingwamo indi myaka itandukanye. Hakaba hirya hari inzu mu murima hakaba harimo igiti kizana amahumbezi.

Umurima urimo ibigori, biratereye, birahetse birimo n'imisigati, ni ibya iburide, byifashishwa mu kubirya, iyo bikiri bibisi tukabyotsa cyangwa tukabiteka mu nkono, cyangwa tukabigurisha bikabavamo amafaranga tukayaguramo ibindi, cyangwa tukareka bikuma tukabisarura.

Abantu batandukanye barimo abagore, abagabo bari mu gikorwa cy'ubuhinzi. Bakaba bari mu kazi ko kureba uko ubuhinzi bwabo bwatera imbere, icyo bisaba, icyo bakongeramo kugira ngo bazamure ubuhinzi bwa bo.

Umurima wahinzwemo imyaka yera ibinyabijumba. Hakaba harimo isuka ikwikije umuhini ubajijwe mu giti, ya suka ikaba iri kwifashishwa mu gukura ibyo binyabijumba kugira ngo babashe kubikoresha icyo bashaka. Ari ukubigurisha, cyangwa kubitwara mu rugo.

Abo bahinzi barimo guhinga, bari mu murima bari kureba uburyo bahinze igihingwa cyabo bita igihwagari , kikaba byarazanye indabo, ibihagari bikavamo amavuta yifashishwa mu kuyakoresha ibintu bitandukanye, ndetse iyo byeze baragurisha bakabonamo umusaruro bakabona amafaranga.

Umubyeyi uri kwanika umusaruro yasaruye mu murima, akaba ari kuwanika ku ishitingi, bigaragara ko uyu mubyeyi yungutse, nta gihombo afite kuko yarasaruye cyane.

Abamama bari mu murima bambaye udupfukamunwa undi akaba yambaye ibitenge amaribaya , undi yambaye umupira bakaba bari gukorera ibihingwa kugira ngo babashe kubifata neza, bizatange umusaruro bifuza ku isoko ry'umurimo.

Umurima bahingamo imyaka itandukanye, basaruyemo imyaka. Hakaba haramezemo igiti cy'avoka gishamitse amashami. Avoka nayo iyo yeze iduha imbuto turya ku mafunguro, ndetse tukanazigurisha tugakuramo amafaranga.

Umubyeyi wahinze karoti, akaba afite isuka ikwikiyemo umuhini, akaba ari gukura karoti, ari kuzerekana bitewe n'uko yazifumbiye neza, karota zifashishwa mu kuziteka ku ifunguro, ndetse zikagurishwa, zikanavamo amafaranga, umuntu akaziguramo ibindi akeneye.

Umubyeyi ufite imboga z'amashu inyuma mu ntoki. Akaba ari kwerekana umusaruro avuye gusarura mu murima. Ayo mashu akaba yifashishwa mu guteka ku ifunguro ry'abantu, ndetse akagurishwa mu isoko akavamo amafaranga, agomba kugura ibisimbura ayo mashu.

Ubwoko bw'insina zera ibitoke bya gisubi, bifashisha mu kuryamo imineke, cyangwa bakabitara bikavamo inzoga, babikamye havamo umutobe uwo mutobe ukazavamo inzoga bita Urwagwa, ndetse izo nzoga bakazigurisha ukabonamo amafaranga bakazinywa.

Ihene iziritswe ku giti, iziritswe ku murunga. Ihene igirira abantu akamaro kuko bayorora kugira ngo ibahe amafaranga, iyo bayigurishije mu isoko. Cyangwa ibahe ifumbire, ndetse ikanabaha n'inyama. Bashobora kuyirya igihe bibaye ngombwa.

Ubwoko bw'ibihaza， biri ahantu hamwe bahinga， hanyuma bakabigurisha， bikavamo amafaranga agura ibindi bintu， bishobora gusimbura ibyo bihaza， ibyo bihaza barabikeka，bakabikuramo inzuzi，barangiza bakabigereka ku bishyimb， bakaza kubirya nk'ifunguro.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye zimwe ziri mu bitebo izindi ziri mu base; harimo amavoka, imineke mu bitebo, indimu, amarongi zikaba ari imbuto ziribwa zigakundwa n'abantu, ndetse zikagurishwa zikavamo amafaranga abantu bifashisha, mu kugura ibindi bintu bakeneye.

Intama ziri mu rwuri bita ibiderini, zifite ibara ry'umweru, zitanga ifumbire, zikororwa kugira ngo ziduhe amafaranga, tuzigurishe mu isoko cyangwa se tuzirye ziduhe inyama, kugira ngo ziduhaze mu buzima bwacu, ndetse zidukemurire n'ibibazo by'amafaranga tuba dukeneye.

Ubwoko bw'ibinyabijumba bita amateke akaba ahingwa kugira ngo abantu bayifashishe ku mafunguro bagenda bakenera ndetse bakayifashisha mu kugurisha umusaruro uvuyemo bakabona amafaranga bakaguramo ibindi bintu bikenewe mu buzima bwabo.

Umuntu uri mu murima we, ari gukurikirana igikorwa cyo kureba uko imyaka ye imeze, kugira ngo arebe ikibura abe yagikora, kugira ngo ubuhinzi bwe bukomeze kugenda ne...

Abantu bishyize hamwe bari guhinga mu murima. Bagiye guhingamo imyaka. Inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishijwe amategura, ikaba ihomye n'urwondo. Bakaba bari gukora igikorwa cyo gufatanya, gukorera hamwe, kugira ngo biteze imbere.

Umurima urimo imbuto z'ibiribwa. Zimwe zirahishije, izindi ntizirashya, bazifashisha iyo bazirya cyangwa bakazifashisha mu kuzigurisha, kugira ngo babone amafaranga asimbura izo mbuto.

Abo bahinzi baje gutambagira umurima w'icyayi w'icyitegererezo, bambaye imyenda y'impuzankano hejuru. Bakaba muri uwo murima harimo umuntu urimo kwitegereza uko icyo cyayi kimeze.

Avoka ni gihingwa cyiza cyera ku biti bya avoka, kikaba ari ikiribwa cyifashishwa gushyira ku ifunguro ry'ibindi biribwa, ndetse kikagurishwa kikayobamo amafaranga, akagurwamo ibindi bishobora gusimbura iyo avoka, mu buzima umuntu aba ashaka gukenera.

Umudamu wambaye umupira w'ingofero, ageretseho akandi gapira kari munsi. Akaba yambaye ipantaro, avuye mu murima yikoreye umusaruro wavuye mu murima, muri ambaraje. Muri iyo mirima hakaba harimo abantu babiri baje gutambagira. Umwe mu kwe, undi ahandi.

Igihingwa cy'imyumbati gihinzwe mu murima, imyumbati yifashishwa iyo wagiye kuyiteka, abantu bayifashisha ku ifunguro, ikanagurishwa igaha abantu amafaranga.

Mu mufuka wa kiro ijana ukaba urimo ibirayi byeze neza bita Kinigi, iyo ibyeze ibirayi byifashishwa mu kubigurisha, ndetse ku ifunguro ry'abantu bakunda kurya buri munsi, hanyuma bikagurishwa bikavamo n'amafaranga, umuhinzi akayifashisha kugira ngo yongere ahinge.

Abantu bari muri pepiniyeri, ahantu hahohetse ibihingwa, bakaba baje gutambagira ngo barebe uko bimeze, kugira ngo babashe kuba bagurisha, cyangwa se babifate na bo bajye kubitera ahantu bateguye habugenewe, kugira ngo babihinge bizabahe umusaruro.

Igihingwa bita amajeri, akaba afite imiteja, amajeri arera yamara kwera bakayaryamo urunyogwe cyangwa yakuma bakayagurisha, bakayakuramo amafaranga ndetse n'yo yeze urunyogwe barujyana mu isoko, bakarugurisha rugateza abahinzi imbere.

Ubworozi bw'inkoko butanga amagi n'inyama, zikaba zigurishwa zigatanga izindi ngufu z'amafaranga, zigurwa ibindi bishobora gusimbura izo nkoko. Kuko inkoko baziryamo inyama, zigatanga ifumbire, ndetse zigateza uwazoroye imbere.

Umuhinzi uri mu murima we, akaba ari kureba ikigori gihetse gifite ubusagi. Ari gutambagira ngo arebe uko ibigori bye biri kwera. Ibigori babirya ari bibisi, bakabyotsa, cyangwa bakabiteka mu nkono, cyangwa bakabigurisha bikavamo amafaranga. Bashobora kubigurishamo impungure, cyangwa bakabigurisha ari bibisi.

Ubwoko bw'ibihingwa bitanga imiteja, ari yo abantu barya, ari imiteja ikaryoha ndetse ikanagurishwa mu isoko igatanga amafaranga. Amafaranga akaguramo ibindi bintu bashobora kugereka kuri iyo miteja, cyangwa bakayaguramo ibindi bintu bashaka kandi bifuza.

Ubwoko bw'imyumbati ndetse n'amateke bihingwa mu buryo bumwe bikera ibinyabijumba. Bikaba biri mu gitebo kiboheshejwe imigano. Bukaba bugurishwa bugatanga amafaranga, bakaguramo ibindi bintu bikenewe, ndetse bakabiteka bakabirya nk'ibinyabijumba.

Umuhungu uri mu murima, akaba amaze gusarura igihaza bateka, cyangwa bakakigurisha, bakagikuramo amafaranga, bashobora kwifashisha mu kugura icyo bakeneye, akaba uwo murimo urimo n'ibigori.

Ubwoko bw'imbuto y'ibijumba y'umweru. Yifashishwa mu kuyiteka abantu bakayirya, ikaba inagurishwa mu masoko igatanga amafaranga, abantu basimbuza ibyo bijumba bakaguramo ikindi bakeneye.

Ishu bahinga mu murima, aya mashu bakayarya. Bafata umurama bakawinaza, ukavamo ingemwe. Bakazitera mu murima ya mashu iyo yeze barayagurisha bagakuramo amafaranga, cyangwa bakayateka bayaketse, bakayatekamo imboga ku biryo, rikaba ifunguro ry'abantu bifashisha.

Ubwoko bw'umuceri butandukanye buri muri butike, umuceri ukaba uri kugurishwa abantu bawukenera mu kurya amafunguro ndetse bikaba birutana ibiciro bitewe n'ubwoko bw'umuceri uwo ariwo, iyo butike ikaba iri gucuruza amavuta ari mu macupa bita litiro.

Umurima bateyemo ibishyimbo， babitera ku mirongo mu buryo bwa kijyambere. Bakaba bari kubishingirira，bazanye imihembezo，ari yo mishingirizo，hakabaho hari abantu bambaye impuzankano y'udupira tw'umweru，bigaragara ko ari abagoronome， baje kubigisha uburyo bagomba gufata neza ubwo buhinzi.

umuntu ufashe imyaka mu ntoki ari kureba uko imeze kugira ngo abashe kuyirondora cyangwa kurobanura agurishe, cyangwa se agure bitewe n'icyo ashaka kuyimaza. Ari kureba ko harimo ibipfira, hanyuma babone gushima.

Ubwoko bw'ibiti by'ibihingwa byera imbuto zitandukanye. Imbuto iyo zihishije barazisoroma bakazirya cyangwa bakazigurisha mu isoko, bakaza kubonamo amafaranga bashobora kwifashisha mu kugura ibindi bintu bitandukanye.

Ubuhinzi bw'amatunda yera ku migozi irandaranda agahisha ari uko abaye umuhondo. Ayo matunda bayita marakuja, adahishije aba asa n'ityatsi. Aragurishwa hakavamo amafaranga.

Ubwoko bw'ibiribwa bitandukanye, abantu barya cyane nyuma yo gufata ifunguro, ibinyomoro, imineke, inanasi, amatunda n'ibindi bitandukanye baranabigurisha kugira ngo babone amafaranga bakagura ibindi bintu bikenewe.

Umurima urimo imyaka, umuhinzi akaba ari kuyisukira amazi, kugira ngo iyo myaka itaza guhura n'izuba rikayangiza, kugira ngo itaza guteza ibibazo.

Imyumbati y'imiribwa abantu barayihinga yakwera, bakayisarura bakayitekana n'ibishyimbo ,cyangwa ibindi biryo kugira ngo babifatishe nk'ingereko, ikindi barayigurisha bakayikoramo amafaranga bakiteza.

Voka, imineke biri ku ntara iboheshejwe ubwatsi, ikagira umusozo wabugenewe, imineke yifashishwa ku ifunguro ry'abantu, ndetse n' voka ikifashishishwa ku ifunguro ry'abantu rya buri munsi.

Ubwoko bw'ibihingwa bimeze nk'ibihaza bikaba bigira inzuzi, bikaba bihingwa bigasarurwa ari uko bikuze byarabaye umuhondo, ibindi byaratukuye bikavamo inzuzi ari zo batera, zikavamo ibindi bihaza iyo byeze.

Umuhinzi uri mu murima. Afite igikoresho cyabugenewe yifashisha iyo ari gusoroma imbuto yahinze. Ari mu murima yahinzemo inyanya. Harimo inyanya zihishije, hari izo ari gusoroma kugira ngo azazigurishe abonemo amafaranga, hagasigara izindi zitari zera.

Umuhinzi uri mu murima, akaba afite isuka ikwikiye mu muhini ubajije mu giti, akaba ari kumwe n'undi mugabo wambaye akapira, akaba yiteze n'ingofero, bambaye n'ibirenge. Bari kwitegereza mu murima wa bo.

Igitebo kiboshywe mu duti, bagiye barakoresha mo imihanda bagenda basobekeranya, kikaba gifite umusozo, kikaba kirimo amatunda, ubwoko bw'imbuto ziribwa z'amatunda, abantu barya cyangwa bakazigurisha, zigakurwamo amafaranga bifashisha.

Ibijumba biri mu kabase byareze ni binini, byifashishwa ku ifunguro ry'abantu bikabatera imbaraga, mu bihingwa bitera imbaraga harimo ibijumba, bikanagurishwa kugira ngo umuhinzi wabihinze abonemo amafaranga, abe yaguramo ibirayi yavanga cyangwa agure ibindi bintu ashaka.

Ubwoko bw'amatunda atandukanye ari gucuruzwa, amwe ari ku nkoko amaronji hakabamo ibinyomoro, intoryi n'andi matunda y'ubundi bwoko, yifashishwa mu kurya ku ifunguro nk'icyo bita deseri, ndetse akagurishwa ku bantu bayahinga akavamo amafaranga.

Umuntu uri guhoheka, agafata itaka akarishyira mu mashashi agahoheka, kugira ngo abashe kugemekamo ingemwe z'imbuto runaka, hanyuma azabone kuzitera ziri mu bihoho.

Umurima uhinzemo insenda bita pwavuro. Izo nsenda zifashishwa mu maresitora cyangwa se mu ngo, bakabikekera ku biryo batetse bikaba indryoshandyo.

Umuhinzi uri mu murima, akaba ari gusarura ibihingwa yahinzemo, nk'amashu n'ibindi, yapakiye mu mifuka agiye kugurisha ngo abonemo amafaranga yamuteza imbere, akaguramo ikindi kintu cyose akeneye.

Umudamu uri mu murima, akaba ari gukorera imyaka iri mu murima, akaba yateze igitambaro, yambaye n'agapira k'icyatsi gaciye amaboko, akaba afite n'agafuka， akenyeye abikamo amafaranga, cyangwa utundi tuntu twa ngombwa akenera.

Umufuka utanditseho insenda bita puwavuro, n'ibase bakoreramo ibintu iyo bagiye kubicuruza cyangwa se bakameseramo imyenda, cyangwa bagashyiramo amazi bagiye koga, n'indi base irimo inyanya, byose bari kubigurisha.

Imineke ya kamara n'iya gisubi yatukuye ndetse ikaba iri kumwe n'imbuto zindi n'indi idahishije, ikoreshwa mu buryo kuyicuruza hakavamo amafaranga, ndetse bagakamamo imineke bakayikamamo inzoga ,inzoga bagurisha bakanywa.

ubwoko bw'ibihingwa bita ibikoro ,cyangwa imyumbati bikaba bihingwa kugira ngo abantu babirye ,cyangwa babijyane ku isoko bibashe gutunga n'abandi bantu batabihinga babigure amafaranga, y'amafaranga abashe gufasha umuntu wabihinze ,nawe aguremo ikindi kintu akeneye.

Abantu bavuye mu murima bakaba bikoreye umusaruro bakuye mu murima wabo, bakaba ari abantu bane umwe yikore mu gafuka ,undi yikore ku mutwe, abandi nabo bikoreye mugafuka, akaba ari abantu bane bakaba babitwaye mu rugo.

Intonore zitonoye ziri mu gafuka, izindi ku ntara, ndetse izindi ziri mu mufuka. Hari ibigori bibisi biri gucuruzwa hagacuruzwamo n'imbuto zitandukanye abantu bashobora kugura, bakifashisha mu ifunguro ryabo rya buri munsi.

Abantu bavuye gusoroma icyayi, bakaba bacyikoreye mu bitebo bitandukanye mu bunini. Hakaba hari ibindi bitebo batwikije hejuru, basoromesha bahetse mu mugongo, bakajya baraha barashyiramo bagasuka muri bya bindi binini barikorera.

Igitoke cyo mu bwoko bwa kamaramasenge, cyangwa gisubi. Baragitara kikavamo imineke abantu barya, cyangwa bakakigurisha bakabonamo amafaranga. Iyo batakigurishije baragikama, hakavamo umutobe cyangwa inzoga abantu banywa.

Isoko ritanditswemo inanasi, hakaba hari n'indobo zifite imifuniko y'imyeru bashyiramo ibicuruzwa bitandukanye. Izo nanasi zikifashishwa mu kuzigura no kuzigurisha, abantu bakazirya. Ndetse zikabaha n'amafaranga iyo zigurishijwe.

Umurima uhinzwe mo ibiti bitandukanye, byera ubwoko bw'amatunda atandukanye, akaba ari mu murima, umurima ukaba umeze neza, bishatse kwerekana ko umuhinzi yabyitayeho, kandi abikurikirana umunsi ku munsi.

Ubwoko bw'igihingwa bita inyanya, cyera iyo inyanya zabaye umutuku, kikifashishwa iyo baziteka zikaba indyoshya ndyo, ndetse bakazigurisha zikavamo amafaranga, agura ibindi bintu bitandukanye.

Imbuto z'amatunda zihishije baremesheje mu isoko, ari zo za maracuja, ni amatunda avamo umutobe, umutobe ukavamo za ji, ndetse bakayarya anari mabisi, cyangwa bakayagurisha kugira ngo bakuremo amafaranga, baguremo n'ibindi bakeneye.

Ubwoko bw'amateke barya bakayagereka ku bishyimbo cyangwa ku yindi myaka, ikaba ingereko abantu bifashisha ku ifunguro ryabo. Ndetse ayo mateke akaba ahingwa mu mirima, yakwera akaba yagurishwa akavunjwamo amafaranga. Ayo mafaranga akagurwamo ibindi bintu abantu bakeneye.

Umurima urimo ibihingwa by'ibigori ,ibigori birahingwa, bigasarurwa, bigatanga umusaruro w'ibigori, bishobora kurya ari bibisi, bakabiteka ,ndetse bakabyotsa, iki kigori kikaba gitonoyeho amababi kigaragaza impeke ushobora no kubihunguramo impugure, bakabigurisha bikavamo amafaranga.

Ubwoko bw'imbuto z'ibiribwa zitandukanye zigurishwa mu isoko, harimo inyanya, amaronji, ibitunguru, intoryi, amavoka n'izindi mbuto zinyuranye, zifashishwa abantu bazirya ku ifunguro ndetse bakazigurisha zikavamo n'amafaranga.

Ubwoko bw'ibihaza bitandukanye. Ibihaza barya cyangwa bakagurisha, bakabigereka ku biryo, nyuma bakabyifashisha nk'ingereko. Barabigurisha bikavamo amafaranga bakaguramo ibindi bintu bifuza. Igihaza bakaba bagisatuye, ariko kikaba gifite indwara mu nda.

Urunyogwe ruva mu majeri ruri mu safuriya barutonoye bagiye kuruteka cyangwa barugurishe bitewe n'icyo bashaka kurukorera, urwo runyogwe ruraryoha iyo barutetse ku ifunguro dukunda gukenera, ndetse tukarugurisha tukavamo n'amafaranga twakenera kuguramo ibindi.

Umuhinzi waje gucucira umuti mu bigori yahinze, abirinda indwara cyane cyane bita nkongwa, ifata ibigori igatuma byera nabi, ntibitange umusaruro nk'uko umuhinzi abyifuza. Ibigori babirya nk'impungure, bakabirya nk'umutsima, ndetse bakabinywamo n'igikoma, bakanabigurisha.

Ubwoko bw'ibihaza bita amadegede, byifashishwa iyo babiteka ku funguro abantu bakenera ,iyo tutabitetse turabigurisha bikavamo amafaranga akagurwa ibindi bintu bikenewe.

Umubyeyi w'umuhinzi witeze igitambaro, ndetse akaba yambaye n'agapira gaciye amaboko, akaba ari mu murima, akaba ari gukorera ibyo yahinze mu murima, kugira ngo abone umusaruro yifuza bishimishije.

Umumama cyangwa umugore uri guhinga mu murima, akaba ari guhingisha isuka ifite umuhini muremure, akaba ari guhinga imitabo bateramo imyaka, bakazabikurikirana nyuma, aho ari guhinga hameze ibyatsi.

Umugore uri mu murima, wambaye agakoti k'umutuku, yiteze n'igitambaro, akaba ari gukorera umurima urimo imyaka, ikaba imyaka ihinzwe ku materasi y'indinganire, atuma iyo myaka idatwarwa n'imvura, igihe imvura irimo kugwa.

Isoko ririmo cyangwa ritanditsemo inyanya, barobanuye nini n'utunyanya dutoya bita inyengereri ndetse hakaba harimo intoryi, umucuruzi arazigurisha bakamuha amafaranga, bitewe n'uburyo yaziranguye, akongera akazarangura izindi.

Ubwoko bw'ibijumba by'umutuku babihinga mu butaka bwagenewe guhingwamo ibyo bijumba bi kera bigatanga umusaruro, byifashishwa mu kubirya bakabihata cyangwa uka biteka utabihase kubitekana n'ibishyimbo ukabirya, akandi kamaro byifashishwa mu kugurisha bikaduha amafaranga.

Ibihingwa bihinze ku murongo mu murima, bagiye bacamo amaterasi y'indinganire arwanya isuri kugira ngo bitazahura n'imvura ikabitembana, ibyo bihingwa bihinze ku buryo bwa kijyambere bishobora kuzatanga umusaruro umuhinzi yifuza.

Abahinzi babiri bari mu murima. Baje gutambagira umurima bahinzemo imyaka ibaha amatunda cyangwa imbuto zitandukanye, kugira ngo babashe kuyagurisha babonemo amafaranga baguremo ibindi bintu badafite, ndetse izo mbuto bakazifashisha mu kugura...

Isoko ririmo ibirayi biri mu mifuka itandukanye ya kilo mirongo itanu, ibirayi byifashishwa babigura bakabiteka bakabyoza bikavamo ifunguro, hari n'ibindi biri mu gapaniye kaboshywe, ibyo birayi biduha amafaranga tukayaguramo ibindi bintu tuba dukeneye.

Abahinzi bari mu murima uhingwamo imbuto, harimo abagabo babiri umwe yambaye ikoti n'ingofero n'agapira k'umweru karimo umukara n' ipantaro y'umutuku, undi yambaye ishati n'ipantaro, bakaba barahinze ubwoko bw'amatunda n'ibindi bimera bagurisha bagakuramo amafaranga, ndetse bakanarya.

Ubuhinzi bw'ibigori banika ku biti babisaruye mu murima, aha akaba ari ubuhunikiro ibigori birashanditse bikaba biri ku biti kugira ngo byume , nibimara kuma bazabihungura babigurishe cyangwa se babisereshe bivemo ifu ,bakoresha ibikorwa bitandukanye mu buzima bw'umuntu.

Umuntu waje gutambagira mukwe ari kwerekana ubuhinzi akorera mu isambu ye, inyuma hakaba hari ikiraro kigaragaza ko ashobora kuba yororeramo.

Ubwoko bw'imyumbati buhingwa bukavamo umutsima cyangwa bakabitekamo imiribwa babigeretse ku biryo, bikaba ingereko, bikaba ifunguro ry'abantu bifashisha rya buri munsi.

Ubuhinzi bw'amatunda ya marozi ari ku ibase bayifashisha bayarya, kandi agatanga n'amafaranga. Bayagurisha mu isoko bakabaha amafaranga, akagurwamo ibindi bintu.

Imifuka ipakiye ibirayi by'imbuto y'umweru, ikaba yicaweho n'umuntu uri kuyirinda , akaba abijyanye kubigurisha kugira ngo abone amafaranga yamuteza imbere, abone kongera kuba yahinga n'ibindi bintu muri uwo murima asaruyemo ibirayi.

Abantu bari kubagaza udukoresho twabugenewe, bakanyura hagati y'umusitari n'undi, bitewe n'uko iki gihingwa giteye ku murongo, inyuma hakaba abandi bari kwitegereza bafite amabase, bifashisha iyo batwaramo ibintu.

Umuhinzi utereye isuka ku rutugu, isuka ikwikiye mu muhini ubaje mu biti, akaba ari guseka ari kwitaba telefone yayishyize ku gutwi, akaba ari mu murima w'ibigori, akaba agiye mu kazi ke ko guhinga.

Ubwoko bw'ibirayi bihingwa, bigafumbirwa, bikavamo umusaruro abahinzi bifashisha bakagurisha ku ma isoko, kugira babonemo amafaranga biteze imbere. Ibi birarayi akaba ari bya Kinigi biri mu mifuka ya kiro ijana, bakaba bagiya kubigemura ku isoko. Kugira ngo babonemo amafaranga.

Abantu bari mu murima baje kureba umusaruro bahinze, bigaragara ko bejeje bari gukura ibirayi.

Abantu banitse imyaka ku mashitingi mu murima, bakaba bayikuye mu mufuka. Wa muririma banitsemo ukikijwe hirya n'umujyi urimo amazu menshi.

Ubworozi bw'inkoko z'amasake cyangwa inkokokazi. Zitanga amagi tukayarya tukayagurisha, hakavamo 'umureti. Zigatanga inyama zikundwa n'abantu bakazirya ndetse zigatanga n'ifumbire, zikaduha n'amafaranga dukenera.

Abahinzi, umugabo n'umugore bafite amasuka akwikiye mu mihini ibajijwe mu biti, bakaba bari guhinga ahantu batera imyaka, bakazayisarura bakabona ibyo kurya ndetse bakagurisha hakavamo n'amafaranga.

Mu ubwoko bw'intoryi zihingwa ku buryo bwa kijyambere kugira ngo zibashe kugurishwa havemo amafaranga umuhinzi yifashisha aguramo ibindi bintu atahinze . Ndetse akayaguramo ibindi bintu akeneye. Zifashishwa mu kurya, akazikeka akazishyira ku biryo, nyuma bikaza kuribwa.

Inzu yubakishijwe amatafari, ikaba ifite idirishya, iruhande rwayo hakaba hameze icyatsi bita igishokoro, kikaba icyo cyatsi bashobora kucyifashisha, bakuramo umuti wo kuvura abantu cyangwa se inyamaswa.

Igitoke kibisi gishobora kwifashishwa bakagiteka, mu nkono cyangwa bakagitara kikavamo imineke barya, cyangwa bakagikama kikavamo umutobe cyangwa inzoga, bashobora kugurisha amafaranga cyangwa kikifashishwa mu kugurisha, kiri kibisi cyangwa se gihiyemo imineke.

Umusore witeze ingofero wambaye agapira k'umukara gaciye amaboko, wambaye ipantaro ya kake, akaba yunamye ari mu murima, ari kureba imyakaka uko imeze, ari kwitegereza ibihingwa bye uko biri kumera, uko biri kwera bizamuka, kugira ngo arebe umusaruro bizamuha.

Ubwoko bw'ibihingwa by'ibinyabijumba ari byo bita imyumbati, ihingwa mu butaka igashora ibijumba, iyo yeze barayikura barangiza bakayiteka ikaba ingereko, iba iri ku bindi biribwa cyangwa se ibishyimbo , bayijyana mu isoko bakayigurisha bakayikuramo amafaranga.

Umurima w'ibigori uhinzwe mu buryo bugezweho, harimo ifumbire . Ibigori birera bigaheka, twarangiza tukabiryamo ibigori bibisi cyangwa tugategereza ko byuma tukabisarura tukabishandika, tukazabibeteshamo ifu cyangwa tukabigurishamo impungure.

Abantu bari gupakira ibihingwa bita imiteja basaruye ku bishyimbo. Iyo miteja bayirya ari imiteja itarakururumba, bakayigurisha, bakayikuramo amafaranga. Abantu bayikunda ari imiteja ikaryoha ku biryo, ibikaba ifunguro ry'abantu.

Umuhinzi uri gusoroma icyayi, akaba ari kugisoromera mu gitebo kibohesheje imigano, kikaba gifite inkingi ndetse n'imitambiko, kikagira umusozo icyo gitebo, akaba agihetse mu mugongo, yasize umushumi mu ijosi, icyayi arakigurisha bakamuha amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko zitanga amagi ndetse n'inyama, zidatanga umusaruro w'amafaranga. Iyo zijyanywe ku isoko zigaha iterambere uwazoroye, harimo n'umuzinga baziheramo ibyo kurya, nyirazo akaba arimo afite ibase, irimo ibyo kurya azizaniye.

Imirima bahingamo, bahinze baca amaterasi y'indinganire, kubera ko hahanamye abafasha ko imvura iguye idashobora gutwara cyangwa gutembana ubwo butaka, hakaba hakikijwe n'undi murima udahinze urimo ibyapa.

Ubwoko bw'igihingwa cy'ikinyamisogwe, kivamo imiteja, kikagira uruyange rw'umutuku, kikaba gihingwa kugira ngo gitange umusaruro w'imiteja, abantu bazifashisha mu kuba bayirya, cyangwa se bakayigurisha, kugira ngo bayivunjemo amafaranga baguramo ibindi bintu.

Tungurusumu isaruwe barayihinga bakayifumbira bayisarura bakayigurisha, ikavamo amafaranga umuhinzi yifashisha ivamo n'umuti.

Ubwoko bw'ibishyimbo by'imbuto y'umutuku, ishobora kuba ari imbuto ngufi cyangwa umushingiriro, bawifashisha mu kuwuteka, bakawurya. Bimwe biri ku ndosho, ibindi bisutse hasi, byari biri mu mufuka

Umuntu uri kwanura imyaka yari yanitse hasi, ari kwanura yifashishije akantu k'akadobo, ni umugore witeze ibitambaro, ari kubanura umusaruro we abibika mu byo yagenewe kubikwamo.

Igihingwa gitanga imiteja ikizungu, hakaba hari imiteja irimo impeke. Iyo babisogoye iyo miteja barabitonora bagasangamo impeke, izo mpeke bakazifashisha mu kubiteka cyangwa se byumye bakabigurisha bakabona amafaranga.

Imbuto bita ubunyobwa cyangwa inkaranga, zifashishwa mu mafunguro abantu bakenera. kuko ni mu bwoko bw'ibinyamavuta, cyangwa bakazikaranga bakazigurisha, ari impeke, abantu bakajya bazigura bakabyifashisha mu cyo bita deseri.

Ubwoko bw'ibinyampeke abantu bahinga bagasarura，buri ku ntara mu ibase， bakaba bari kurengesha ibakure，kugira ngo bamenye ibiro basaruyemo，hakaba hari n'ubundi bwoko bw'ibyampeke， buri hirya mu ibase， nabwo bakaba bategereje kugira ngo bamenye ibiro biri buvemo.

Ubwoko bw' ibimera bahinga, bikazana uruyange. Uruyange rukavamo imbuto. Imbuto ziri mu bishishwa izo mbuto bita impeke zikera zamara kwera zikabona gusarurwa cyangwa se ukareka bikuma, ibivuyemo ukabigurisha ugakuramo amafa_

Umubyeyi upfukamye wambaye agapira gaciye amaboko n'ingutiya, akaba ari mu murima ari gusarura imyaka kugira ngo ayigire neza narangiza ayitware mu rugo cyangwa se azayigurishe kugira ngo akuremo amafaranga yamutunga ayaguzemo ibindi bintu yifuza.

Umurima basaruyemo ibishyimbo, barangije babihambiramo imitwaro babishyira ahantu hamwe, bigaragara ko ibi bishyimbo byeze, hirya y'aho hari imodoka ihaparitse.

Umurima uhinzwemo imyaka ku murongo . Ikaba ihinzwe mu buryo bwa kijyambere , ikaba ihinze ku materasi y'indinganire ku buryo igomba gutanga umusaruro umuhinzi yifuza ,kugira ngo abone amafaranga abe ku isoko ry'umurimo.

Isoko ririmo abacuruzi, hakaba harimo imifuka iterekeranije. Harimo umufuka w'ibishyimbo urimo akadobo barengesha iyo bari kugurisha ibyo bishyimbo. Hakaba hicaye umudamu uri kugurisha, hakaba n'abaguzi bari kwitegereza baje kubagurira.

Ubuhinzi bw'amatunda y'imbuto atandukanye, yera ndetse n'ibishyimbo byera ari uko bishingiriwe, bikazamuka ku mishingirizo ari yo bita imihembezo, bikabona kwera neza bidahuye n'ikibazo.

Umufuka urimo impungure z'ibigori bya mayizori, barabikoresha, babitekamo impungure, bakabibetesha bikavamo ifu, ifu bakuramo umutsima ndetse bagakoramo imikati, bagashigishamo n'ibikoma.

Ubwoko bw'ibinyampeke, bimera iyo bihuye n'ubukonje, byarangiza bigatuma bigashinga imizi, nyuma bikaza gutuma umwumba, wa mwumba urazamuka, ukazazaho amababi kugira ngo igihingwa cyere neza.

Amajeri ari ku ntara iboshywe mu migano, ikaba ifite umuguguniro w'umusozo umuntu akaba yayoye ku mashyi, akaba ari kwerekana uburyo ayo majeri yeze, akaba yifashishwa kuyateka ku ifunguro cyangwa akagurishwa mu isoko, ariko ameze neza agatanga amafaranga.

Umufuka w'ikideyi bita ikigunira ,ukaba urimo impungure zihunguye bita gipesi, iyo gipesi bakaba bagurisha ku kiro ikavamo amafaranga ,cyangwa bakayibetesha bakazayiryamo umutsima bita za kawunga, cyangwa umutsima usanzwe.

Umurima urimo amasaka yeze amahundo. Ayo masaka akaba iyo yeze barayasarura bakayanika, bakayahura, akavamo kuyengeshamo umusururu iyo bayabese, akavamo ifu. Anaragurishwa akabonekamo amafaranga bifashisha bakagura ibyo bakeneye.

Urugo rwa kinyarwanda rwabaga rurimo ibigega bishyigikiwe, bikaba bifite uruhiza, ibigega biboshywe mu migano bahunikagamo imyaka, hegetseho umufuka urimo ibirayi ndetse n'isekuru basekuramo imyaka, iyo bagiye kuyitunganya neza. Hakaba hicaye n'abantu bicaye ku ruzitiro, ruzitiye neza n'imigano.

Ibase y'icyatsi iriho umusaruro w'ibinyampeke cyane cyane ingano. Bazifashisha ingano zivamo ifu bakoramo umutsima, ndetse bagashigishamo igikoma, bakaba bazitekamo imbuguyu. Ibase yifashishwa mu gutwara ibintu cyangwa se mu gukarabiramo.

Imyaka iri ku nkoko, indi ikaba mu ibase, ikaba iyo myaka yifashishwa mu kuyirya cyangwa se kuyigurisha, bakaba bari kuyirenga mu tudobo, kugira ngo babone uko bayigurisha bitewe n'ako kadobo, uko gapima ibiro runaka.

Mu imifuka irimo ubwoko bw'ibihingwa, by'ibinyampeke bitandukanye, hakaba n umufuka urimo amasaka, bifashisha ba betesha bagashigisha igikoma, indi mifuka ikaba irimo ibigori nabyo biseshwa bikavamo igikoma, ndetse bikanagurishwa, bikabavamo amafaranga.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye zikaba ziri ku dusahani, izo mbuto bakaba bagaragaza uburyo zera, zikaba zifashishwa n'umuhinzi mu kuzibyaza umusaruro w'iterambere rye, kugira ngo abonemo amafaranga yamuteza imbere, akaguramo ibyo yifuzaga kugura.

Ubwoko bw'ikigega cya kinyarwanda cya kera, bakibohaga mu migano bakagisakaza uruhiza, bagahunikamo imyaka. Ibigori, amasaka cyangwa se ibirayi, iki kikaba ku muryango hamanitse ibigori, ndetse basizeho n'utwo buriragaho iruhande hakaba hari umutiba na wo uboshye bahunikamo.

Ubwoko bw'igihingwa bita amajeri, akaba yera abanje kuyanga akazana uruyange, rwa ruyange rukavamo imiteja imiteja ikazamo impeke impeke zikera, warangiza ukaba waryamo urunyogwe cyangwa ukareka akuma, ukazaryamo amajeri yumye, ukagurisha ayumye cyangwa se urunyogwe.

Ubwoko bw'ibihingwa bita tungurusumu. zikaba ziterwa mu buryo bugezweho bakaziterana ifumbire kugira ngo ibi bibashe kwera. Ubitera mu butaka bigatuma imizi, hanyuma hakaza umwumba, ukazazaho amababi, bakabitera imiti, kuko biragurishwa iyo byeze bikavamo amafaranga.

Ubwoko bw'ibihingwa byera，bikaba byifashishwa mu kubigurisha， bigatanga amafaranga umuntu yifashisha agiye kuguramo ikindi kintu.

Uko amajeri amera, abanza yatundama agahura n'ubukonje, nyuma agatuma umuzi, umuzi ukazaza gushingwa mu butaka, hanyuma hakazamuka umwumba, wa mwumba ukazaza kubyara amababi.

Umuhinzi uri mu murima akaba amaze gusarura imyaka, akaba ayishyize mu gafuka, akaba yiteguye kukikorera akayijyana mu rugo. Iyo myaka yahinze ashobora kugurishamo, akabona amafaranga yamufasha.

Ubwoko bw'imyaka bashyize ku kirago kibohesheje intoki, kugira ngo babashe kuyitunganyiriza kuri kiriya kirago, bitaza guhura n'umwanda w'itaka cyangwa amabuye, bakunda kuhatunganyiriza ingano, amasaka, ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuntu uri kurondora imyaka y'ibinyampeke akuramo ibizima, agasigaza ibipfu. Ibyo ari kurondoramo ari kubishyira mu base. Ashobora kurondora kugira ngo ibizima bisigaye babitere bibone kubasha kumera, cyangwa se abigurishe bimeze neza.

Umudamu ukenyeye igitenge, uri murugo arimokugosora imyaka ayikuramo ivumbi ririmo, rigatumuka hagasigara imyaka, akayishyira mu gafuka kamuri iruhande.

Umusaruro w'amajeri ari mu gitebo, wasaruwe neza andi ari mu ndosho, bagenda bifashisha bayora ayo majeri, bayashyira mu gitebo.

Ubuhinzi bw'amasaka ayo masaka iyo yeze turayavunga cya tukayahura akavamo amasaka y'impure, amasaka akabeteshwa akavamo ifu cyangwa yakwinikwa hakavamo amamera tubetesha tukayengamo umusuru.

Ubwoko bw'ibihingwa biri mu murima biteye ku muronko, ibyo bihingwa bikaba bitanga umusaruro umuhinzi yifashisha agurisha mu isoko cyangwa mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo abashe kubona amafaranga yamutunga akaguramo ibindi bintu.

Ubwoko bw'ibihingwa bita tungurusumu. Bakaba babishyize ahantu berekana uburyo iyo tungurusumu imera. Imanza yatumba, Igahura n'ubukonje. Yarangiza ikazana imizi, ikazazana umwumba, nyuma ukaza gutungura imbere, ubwo igakomeza ikazazana amababi.

Ubwoko bw'ibinyampeke biri mu mifuka itandukanye, harimo ibishyimbo, indi amasaka, indi ibigori, indi ingano, ibindi imiceri, bikaba biri kugurishwa, bitewe n'icyo umuntu ashaka kuza kugura, akaza akabaza ibiciro, bakamuha akabasigira amafaranga.

Inzu y'ubuhunikiro yubatswe yubakishijwe ibiti hakaba harimo ibikogizo, inyuma yibyo biti bahamanitse imyaka bita ibishyimbo bidahuye bakaba barabimanitse kugira ngo byumire kuri ya nzu bita ikigega cy'ubuhunikiro ibishyimbo turabirya tukanabigurisha.

Umufuka bita ikideyi, ukabamo urimo imyaka y'ibinyampeke, bishobora kugurishwa bikabaha amafaranga, bitewe n'umuhinzi icyo ashaka kuyimaza, kugira ngo ya mafaranga abe yayaguramo icyo adafite yakwifashisha mu buzima bwe.

Indosho zibajije mu biti ,uduti twiza . Bakaba bagiye barashyiraho umusaruro w'ibinyampeke bitandukanye impungure, ingano ,uburo ndetse n'ibindi.

Igihingwa cy'ikinyamisogwe cyera imiteja, kikavamo impeke abantu bashobora kwifashisha mu mibereho yabo, ndetse bakaba banakigurisha kikavamo amafaranga na yo bifashisha, bakaguramo ibyo bakeneye mu iterambere ryabo.

Umurima urimo ibigori bimaze guterera bihetse bizavamo umusaruro uzifashishwa mu kujyana ku isoko, cyangwa se bagahunika mu mirima, bakawuzana mu rugo bimaze kuma bakajya babyifashisha babirya.

Ibigori bibisi bya mayizori, bikaba biri ku ntara. Abantu barabica, bamara kubica ukabyotsa mu ziko, ukabirya ari bibisi, cyangwa ukabiteka mu nkono. Ukabirya bihiye cyangwa ukabigurisha, abantu bakaguha amafaranga kugira ngo ugure ikindi kintu ushaka.

Imirima bahingamo ibyayi kugira ngo bitaza gutembanwa n'amazi, bagacamo amaterasi y'indinganire, atuma amazi anyura muri ya migende atabasha gutwara ubwo buhinzi. Hirya hakaba harimo abantu bari guca imiringoti bafite amasuka.

Ubuhinzi bw'amatunda akaba barayazitiriye bakayatondagiza ku duti turiho imigozi. Ayo matunda za marikuja bakunda kuyagurisha mu isoko bakayakuramo amafaranga ndetse abantu bakunda imbuto bakunda kuyagura bakayarya bwa deseri.

Uburyo urubuto rubasha kumera, rumanza rwahura n'ubukonje buba buri mu butaka, nyuma rukaza gutuma imizi iva mu butaka, ya mizi igashinga hasi, ikagenda iravomera cya gihingwa, hanyuma kikazamura umwumba, ukazatanga amababi azagenda akura.

Inzu yifashishwa, ubuhunikiro bw'imyaka y'ibigori. Barabifata bakabishandika barangiza bakabimanika ku ngango, kugeza igihe bizumira, barangiza bakabihungura bikavamo impeke zigurishwa, zigatanga amafaranga umuntu yifashisha, umuhinzi akifashisha mu buzima bwe.

Abantu bari mu murima bamaze gusarura imyaka barimo kuyirunda hamwe, bakayihura kugira ngo ize kuvamo impeke bajyane ibintu bimeze neza bitarimo ibiti ndetse bisukuye. Nk'ibishyimbo barabihura kugira ngo bajyane impure ari yo bahunika.

Impungure zihunguye ziri mu mabase za mayizori. Umuntu ari kurengesha agasahane asuka mu yindi base kugira ngo amenye ibiro yahungiye. Izo mpungure zifashishwa mu kuziteka tukaziryamo impungure, cyangwa tukazibetesha zikavamo umutsima cyangwa igikoma, tukazigurisha zikaduha n'amafaranga.

Ahantu bororera inkoko zitandukanye nyinshi, izi nkoko zikaba zitanga amafaranga ndetse n'amagi, zikifashishwa mu kuzamura ubukungu bw'abaturage bazoroye, zikaba zikurira igihe gitoya.

Inka yororewe mu kiraro hakaba veterineri wambaye umwenda w'akazi n'ingofero akaba aje kuyivura. Inka igira akamaro ko gutanga amata anywebwa cyangwa se akagurishwa hakavamo amafaranga. Itanga ifumbire, itanga n'inyama ndetse ikagurishwa ikavunjwamo ibindi bintu bi....

Umuveterineri uri kureba inka uko imeze. Bashinzwe kuvura inka yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, bakareba uko bayifasha igakira. Iyo nka yatunze umunwa hejuru, veterineri na we ari kuyitegereza ngo arebe icyo yayifasha.

Ubworozi bw'inkoko y'igisake nziza yorowe ku buryo bwa kijyambere, ikaba itanga amafaranga cyangwa se itanga ifumbire, umuntu, uwayoroye imugirira akamaro mu buryo bwo kumuteza imbere, akandi kamaro ishobora kubika mu gihe cy'igicuku, cyangwa se bugiye gucya.

Ihene nziza yorowe ikebutse iri kureba inyuma, iragiwe n'akana. Iyo ihene ni ihene ishobora gutanga umusaruro. Kuyigurisha ikaguha amafaranga, no gutanga ifumbire. Ndetse igatanga n'inyama iyo bayibaze.

Ubworozi bw'inka z'imbangurire, ziri mu kibuga kirimo umucaca, harimo n'ibindi byatsi zirisha .Akaba ari inka za kijyambere zitanga umukamo ,ndetse uwo mukamo ukagurishwa ku isoko bagatanga amafaranga, izo nka zishobora kugurishwa zikavamo amafaranga, ndetse zigatanga n'ifumbire.

Ubworozi bw'inka. Akaba veterineri yaje kuyivura. Inka ikaba ishobora kuba irwaye, ifite ikibazo. Akaba agiye kureba uburyo yayifasha, kugira ngo ibashe gukira ikomeza kugira ubuzima bwiza, iyo nka ibashe gutanga umusaruro w'ibyo uyoroye ayifuzaho.

Ubworozi bw'ingurube zitanga ifumbire ndetse n'inyama. Zigatanga n'amafaranga iyo zigurishijwe. Iki kigurube cyarabwaguye, kikaba gifite ibyana bishobora kugurishwa amafaranga, umworozi akayifashisha.

Ubworozi bw'ingurube zororerwa mu kiraro zibamo. Akaba ari ibyana byabwaguwe n'ingurube. Bikagira akamaro ko kubigurisha bikavamo amafaranga. Cyangwa se byakura bikabagwa bikavamo inyama, cyangwa bikagurishwa bikororwa.

Ingurube yorowe kijyambere. Ikaba itanga umusaruro w'inyama. Iyo igurishijwe ivamo amafaranga akagurwamo ibindi bintu, cyangwa se bakayibaga bakayitekamo akabenzi. Abantu bakunda inyama y'akabenzi, akaba ari yo mpamvu ingurube bazorora cyane.

Veterineri, muganga w'amatungo uyavura umunsi ku munsi, iyo ayo matungo yahuye n'ibibazo, kubera ko amatungo aba afitiye abaturage akamaro ,ndetse akabaha ifumbire n'amafaranga ,veterineri akaba ari gupima inyama ngo arebe ko zujuje ubuziranenge ,bakabona kuzigurisha cyangwa bakazirya.

Ikiraro cyororerwamo ingurube. Hari ingurube ziri mu kiraro ziri kurya ahantu zigaburirwa. Zimwe ziri kubikandagiramo, izindi zabifashe neza. Izi ngurube zigatanga inyama abantu barya, ndetse zikagurishwa. Izo nyama barya zikitwa akabenzi.

Inka ziri mu rwuri zitandukanye zifite amabara atandukanye, ni inka zibumbiye hamwe, iyo ziri kumwe bazita ishyo zikaba zahoze ziri kurisha ahantu hari ubwatsi.

ikirunduru bororeramo inkoko z'ubwoko butandukanye bakaziheramo umuti, ibyoku kurya, ndetse akaba arimwo ziterera amagi aturangwamo imishwi, cyangwa bakaba arimwo bazikura bajya kuzigurisha, zigatanga n'ifu.

Abantu b'abaveterineri bashinzwe kuvura inyamaswa cyangwa amatungo yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, bakaba baje gutabara inyamaswa iva mu ishyamba bita nk'ingagi. Bakaba bari kuyiha ubufasha bwo kuyivura kugira ngo ibashe gukira bitewe n'akamaro ifitiye igihugu.

Ubworozi bw'inkoko za kizungu zinkorano buvamo amagi tukayagurisha, tukanayarya, nazo zitanga amafaranga iyo zigurishijwe cyangwa se bakazirya zitanga inyama.

Ubworozi bw'ihene, ziraziritse mu rwuri. Ihene zifashishwa mu kuzorora kugira ngo ziduhe ifumbire, ndetse ziduhe n'inyama, ndetse zikagurishwa zikaduha n'amafaranga adukemurira ibibazo duhura nabyo.

Ubworozi bw'ingurube : Iyo ingurube zibwegetse ziraza zikabwagura hakavamo ibyana, bya byana iyo udashaka kubyorora, biragurishwa bikavamo amafaranga. Wazorora nabwo ukazigurisha ari nkuru zigatanga amafaranga, ndetse zigatanga n'inyama bateka bita akabenzi gakundwa n'abantu benshi.

Umworozi w'ingurube zitandukanye zikaba zarabwaguye ibyana zikaba zororerwa ahantu habugenewe, bigaragara ko nyirazo azitayeho ari kureba uko zifashe ngo azi azirwaneho.

Amagi aterwa n'inkoko, ayo magi akagurishwa, barangiza bakayateka, bakayakuramo umureti bagurisha, cyangwa bakayarya ari mabisi, cyangwa bakayateka bakayarya atetse.

Ingurube yororwa ikaba itanga ifumbire umworozi yifashisha mu guhinga. Ikongera ikagira akamaro ko kugurishwa hakavamo amafaranga umworozi yifashisha akaguramo ibindi bintu akeneye. Ikongera ikavamo inyama batekamo akabenzi mu buryo bugezweho.

Inka z'amahembe maremare, zigaragara ko ari inyambo, zikunda kuba mu nshe z'iburasirazuba, zigatanga umukamo amata, abantu bajyana ku isoko, zigatanga ifumbire, itanga inyama, ndetse zikagurishwa hakavamo n'ama amafaranga umworozi yifashisha.

Inka ziri mu murima urimo ubwatsi, zikaba zahutse ziri kurya ubwatsi zikaba zororwa, zikaba zitanga umukamo w'amata ugurishwa ku isoko, zigatanga ifumbire igurishwa cyangwa ihingishwa hakavamo umusaruro, ndetse zikagurishwa hakavamo amafaranga yifashishwa.

Amagi ari mu tuntu two kuyatwaramo twabugenewe. Ayo magi araranguzwa akavamo amafaranga. Uyatetse avamo umureti abantu barya, bayateka abantu bakayarya ahiye, bakayatonora bakayarya ku funguro ryabo igihe babikeneye.

Uko borora urukwavu, bakarugaburira ibyo kurya, urukwavu rutanga inyama. Umworozi arworora agira ngo ruzamuhe amafaranga yo kwiteza imbere, akagura icyo akeneye, ndetse rukamuha n'inyama zo kurya.

Inka ziri mu kiraro cyabugenewe zizitijwe n'ibyuma cyangwa se ibiti ari umufundi uri hejuru uri gukomanya undi nyirininkakamuhereza ibyo kwifashisha izo nka zikaba ziziritse zizitiriwe neza.

Inka nziza zo mu bwoko bw'amafirizoni. Zikaba zitanga umukamo ugezweho mu bworozi, ndetse zigatanga n'ifumbire abantu bifashisha mu buhinzi kugira ngo babashe kuzamura umusaruro w'ubuhinzi. Ndetse zikagurishwa zikanatanga amafaranga abantu bifashisha bagura ibindi bintu bakeneye.

Inka zororewe ahantu mu kiraro zikaba ziri kurishiriza hamwe aho bazihera ubwatsi cyangwa ikindi kintu zikeneye zikaba zorowe bya kijyambere. Zimeze neza zikaba zitanga umukamo ushimishije bakagurisha amata ndetse bakazigurisha bikabaha n'amafaranga zigatanga n'ifumbire bakene.

Ubwoko bw'inyamaswa ziva mu gasozi zikaba zitunzwe no guhiga utundi tunyamaswa duciriritse zikaturya, ikaba ari inyamaswa ifite amahembe maremare n'amaguru maremare. Ikaba igiye kwitwara nk'ihene ikaba iri mu nyamaswa z'inyamabere.

Ubwoko bw'inyoni zikunda kwibera mu ishyamba, zikibera mu byari ni mwo zirara, ni mwo zisiga ibyana byazo, ni mwo zugama imvura, ahantu ziba zibona zifitiye umutekano hataziteza ibi....

Ubwoko bw'udusimba tw'inyamaswa twibera mu mashyamba, mu bihuru, tukagira tukaba aho ngaho, kugira ngo tubashe kwigirira umutekano wa two, tukaba dutunzwe no kurisha cyangwa se guhiga utundi tunyamaswa dutoya, akaba ari two tudutunga.

Ubwoko bw'inyoni zibera mu biti, akaba arimo zarika; zigatungwa no kwihahira, zikirirwa zirya imyaka abantu bahinga, cyangwa se zikihahira utundi dusimba dutoya dutungwa nazo, zikarika mu bihuru aho abantu badashobora guhura na zo.

Ubwoko bw'inyoni zitandukanye zifite amababa, zibaho ziguruka, zikaba zikunda kwibera mu mashyamba cyangwa ahandi hantu haziha umutekano, ku buryo zitahura n'ibyazangiriza.

Ubwoko bw'inyamaswa ziba mu gasozi. Zibera ahantu mu bihuru, kuko ni ho ziba zifite umutekano, kugira ngo zitaza guhungabanywa n'abahigi baba bari kuzihiga, zikibera umwo mu mashyamba.

Ubwoko bw'inyoni ifite amababa iguruka, ikunda kwibera mu kigunda cyangwa mu ishyamba, igakunda kwibera ku biti bita ibishokoro, bigira uturabo kubera ko utwo turabo turayishimisha, ikaza guhaha ikatwifashisha.

Ubwoko bw'inyamaswa ziba mu kigunda arizo mbwa, zikaba zibeshejweho no guhiga udusimba tuba mu kigunda. Zikifashishwa n'uburyo bwo kurinda amazu cyangwa imyaka y'abantu mu mirima, zikunda no kuba mu mago cyane cyane mu mashyamba.

Ubwoko bw'inyamaswa zibera mu gasozi cyangwa mu ishyamba, bwari ubwoko bugiye kuba nk'inka ariko akaba ari imbogo, imbogo zibera ahantu zidahura n'abaturage ,ziba mu muryango umwe mu mashyamba zikaba zifite uburyo zibayeho kugira ngo zitaza kononekara zikagira uwo zangiriza.

Ubwoko bw'inyamaswa zibera mu kigunda. Ni mu bwoko bw'Imbwa zibaho zihiga utundi dusimba dutungwa na two. Zikaba mu ishyamba mu bihuru, ahantu zidadashobora kwangiriza abantu n'ibintu bya bo. Kubera ko zishobora guhigwa n'abantu bakazica.

Ubwoko bw'inyamaswa ziba mu ishyamba ari zo ingagi , izo nyamaswa cyangwa inguge zikaba mu ishyamba, zigakurura ba mukerarugendo bakazana amadovize, agateza imbere igihugu ndetse n'abaturage bakabona akazi.

Ubwoko bw'inyoni zifite amababa bita ibihunyira. Bikunda kugenda amajoro, bikaba ahantu mu biti bikaba arimo byarika, bikanakuriramo. Uburyo bwo kwiririndira umutekano. Bigakunda gutera amagi, biba mu biraro cyangwa se mu bitare akaba arimo...

Ubwoko bw'inyoni ikozwe mu bisiga. Ifite amababa, ikunda kwibera ahantu hatuje hatari abantu barayisagararira. Ikabaho yororoka itera amagi mu cyari.

Ubwoko bw'inyamaswa ziba mu gasozi mu bwoko bw'imitubu, igikeri kiragenda gisimbuka iyo kigenda, kandi bikunda kwibera mu mu mazi ahantu hakonja ni bwo buzima kibamo.

Ubwoko bw'ibiguruka bifite amababa mu bwoko bw'ibisiga by'ibigona, bikunda kuba biguruka mu kirere bigatura mu biti mu byari akaba arimo byibera, byirindira umutekano wabihungabanya.

Ubwoko bw'igisimba gikunda kwibera mu ishyamba, kugira ngo kirindire umutekano ndetse n'abantu bagire umutekano. Byiberaho muri ubwo buryo bigatungwa no kwihigira. Ishobora kurya izindi nyamaswa ntoya cyangwa se ikarisha ibyatsi.

Ubwoko bw'inyoni zibera ku gasozi ,mu kigunda ,mu biti mu mashyamba, zikaba zibereye mu byari byazo arimwo zivukira, zikanakurira, akaba ari ibyana by'izo nyoni kugira ngo bibone umutekano.

Inyoni igira amababa yo mu bwoko bw'ibwiyoni, ikaba ifite ibara ry'umukara, umunwa w'umuhondo, isunzu ritukura. Zikaba zibera izi nyoni mu ishyamba mu biti, hakaba arimo zarika hakaba arimo zikurira, kugira ngo zirindire umutekano zidahura n'abantu bazangiriza.

Ubwoko bw'inyamaswa zo mu gasozi bita akanyamasyo. Kakaba kibera mu kigunda, kakaba gafite igikonoshwa kabamo gikomeye cyane, gishobora kukarinda ibihungabanya cyangwa impanuka kahura nazo, igihe karimo kwigendera. Kikagafasha kwitabara.

Ubwoko bw'inyoni zibera mu kigunda, zikaba zifite amababa, zikororoka ziteye amagi, zikibera mu cyari kiba kiri ahantu aho abantu badashobora kuyangiriza, ikararamo, ikugamamo imvura, ikajya isigamo ibyana byazo.

Igisimba cyangwa inyamaswa yibera mu gasozi. Ikaba iri mu bwoko bw'ibikurura inda hasi. Ubwoko bw'imiserebanya, ingona, bikunda kwibera ahantu hakonje mu mazi. Ikaba ivuye mu ishyamba ishaka kwigira mu mazi.

Ubwoko bw'inyamaswa iba mu gasozi mu ishyamba, ikaba ari inyamanswa igira amaguru maremare ndetse n'amahembe maremare. Ubwoko bw'amasatura bikaba biri mu muryango umwe w'inyamabere.

Ubwoko bw'inyoni zibera mu kigunda. Ikaba ihagaze ku giti. Zibaho zaritse mu biti zikaba ariho zirerera ibyana byazo, kugira ngo bitaza guhura n'impanuka z'abantu cyangwa se ibindi bisimba bikazangiriza.

Ubwoko bw'inyoni zifite amababa, zikaba zibera mu byari. Zikaba ari mo ziterera amagi, zikayaturaga akavamo ibyana, zikabirindira muri ibyo byari. Zikaba ari mo zitaha, zikugama izuba cyangwa imvura, zikagaburiramo ibyana bya zo, bigakurira muri ibyo byari.

Inyoni ziba mu biti, zikabaho ziguruka zihiga utundi dusimba duto tuzitunga. Zikabaho zororoka zitera amagi, amagi zikayaturaga akavamo imishwi y'inyoni, nayo igakura bityo ikagaburirwa na za nyina ikazakura.

Ubwoko bw'ibisimba binini byibera mu byanya by'ishyamba habamo urufunzo cyangwa mu ishyamba ribamo ibiti bitandukanye. Izi nyamaswa zibera mu ishyamba ku buryo zitashobora kubana n'abaturage zabangiriza kandi zikaba zangiriza imisaruro y'abantu.

Ubwoko bw'ibyiyoni bifite amababa aribyo bita ibisiga bitwara udushwi, tworowe tw'inkoko, bikaduhombya umuntu umworozi, kandi yarizakuramo amafaranga cyangwa akaryamo inyama, byibera mu mashyamba, bikagira ibyari mu biti akaba arimo byarika.

Ubwoko bw'igisiga kigenda mu kirere bita cya kagoma, igisiga kiguruka kinini, gishobora gutwara inkoko nini, kiba cyatwara n'uruhinja, kibera mu ishyamba niho gitaha, kikibera mu byari akaba ariho bibyarira bitera amagi, bikayaturaga hakavamo ibindi bisiga.

Ubwoko bw'inyoni bw'inyemanza zikunda kwibera mu mashyamba, mu bihuru, zigakunda kwarika ibyari akaba arimo zitaha, ndetse zigateramo amagi zikayaturaga akavamo imishwi, zikayirerera umwo ngumwo na yo ikazakura ikazaba inyoni.

Ubwoko bw'ikiyongoyongo kigira umunwa muremure, kikagira amababa, kikajyana n'amaguru maremare, kikaba kiri mu bwoko bw'inyoni ziguruka .Kikaba gikunda kuba ahantu gicituje hatagira abantu bagihungabanya, nko mu ishyamba ahantu mu gihuru kiba kifite umutekano uhagije.

Ubwoko bw'ibisimba bikururuka bigendesha inda hasi, mu muryango w'ibikururuka byibera mu kigunda, bikunda kota izuba aribyo bita imiserebanya, bikunda kwibera ku mazu, mu nzu bacanamo birahakunda cyane.

Inyamaswa zibera mu ishyamba, ni mwo zikurira ni mo ziba, zigatungwa no guhiga, kugira ngo zibone ibizitunga ku munsi, zanga kubana n'abaturage kuko zabagiraho ingaruka, nazo zikagira ingaruka, bitewe n'uko zimwe aba ari iz'inkazi.

Ubwoko bw'inuma zikunda kwibera mu byari, ndetse no mu kigunda kugira ngo zibashe kuba zakwirinda abagizi ba nabi, ndetse zikirinda n'izindi nyamaswa zizangiriza, zikaba zarika mu biti hejuru.

Ubwoko bw'inyoni bita igikona cyangwa icyiyoni, igira ibara ry'umweru mu ijosi ,ikaba iba ahantu mu biti hejuru ni mwo yarika .Mu cyari akaba ari mwo ikurira cyangwa se igatera amagi , ikaruriramo abana bayo.

Ubwoko bw'inyoni ziguruka zikagenda mu kirere bita ibisiga, bitungwa no kurya inyama zitwara udushwi abantu biyororeye bikabahombya, ku buryo umuntu aba yarapanze umushinga kikaza kikakikorera, umuntu agahomba umushinga yari yarabaze.

Ubwoko bw'inyamaswa ziba mu bihuru cyangwa mu mashyamba. Zikabaho zibera mu mashyamba zicengacengana n'abantu bashobora kuba bazangiriza, cyangwa se izindi nyamaswa zazangiriza, kugira ngo zibashe kwiberaho neza mu mutekano.

Uwoko bw'inyamaswa igira amahembe maremare, n'amaguru maremare ,zikunda kwibera mu ishyamba hamwe n'izindi nyamaswa, zirinda kujya mu giturage kuko zishobora guhuriramo n'ibibazo ,ziba rero mu ishyo n'izindi nyamaswa, ahantu zitagomba guhungabana ziba zifite umutekano.

Inyamaswa iri mu gihuru, ikaba ari inyamaswa ikunda kwitahira mu isenga bita impyisi. Zikaba ari inyamaswa zitabana n'abantu kuko zishobora kubagiraho ingaruka, zikaba zabarya, na zo zikaba zagira ingaruka. Bityo zikaba zibera mu bihuru cyangwa se mu mashyamba.

Ubwoko bw'ibiguruka bita inyoni, ibisiga. Bukaba bwibera mu bihuru mu mashyamba, ahantu bubasha kuba bwirindiye umutekano, kugira ngo butaza guhura n'ibirabwangiriza ari byo inyamaswa nini cyangwa se abantu.

Ubwoko bw'inyoni zigira amababa zikororoka ziteye amagi, zikibera mu byari akaba arimo zikurira, zigakunda kwibera mu kigunda, ahantu ziba zishaka umutekano, kugira ngo hatagira uzihungabanya mu buzima bwazo; zishaka kubamo bwa buri munsi.